Mwibara botsagamo inyama. Inyama barazotsaga ziri ku mishito, hanyuma abakiriya bakaja kuzigura bakazirya.

Inzoga ziri muri shampanye bazigura mu kabari, cyangwa se mu iduka ry' inzoga; izi nzoga zitondetse neza aho zigomba kuba ziteretse.

Mu kabari bacururizagamo inzoga z'ubwoko bwose, izo mu mavide n'izo mu yandi macupa y'ibyuma, byose barabiguraga ababishaka bakaja kubinywa. Gusa mu kabari bacururizagamo n'ibindi bintu bitari inzoga, birimo nk'ibyo kurya bihiye.

Muri bara bacuruzagamo inzoga z'ubwoko bwose. Zino nzoga zibaga mu ibara, hari izibaga ziri muri firigo izindi zibaga ziri muri kontwari.

Mubara habagamo ibiryo barabiryaga, bakanywesha n'inzoga. Inzoga zo mubara haba harimo abantu bagiye kuzinywa.

Botiki bacuruzagamo amarangi ari mu ndobo ,ari mu mijerekani, arimo no mu mabido, ari no mu bikopu by'amarangi.

Botike ni inzu y'ubucuruzi bacururizagamo ibintu byinshi bitandukanye. zubakwaga ku mihanda minini ihuriweho n'abantu benshi kugirango bazaje barahaha byoroshye.

Inzu y'ubucuruzi yubatswe mu buryo bwiza bwa kijambere. Icururizwagamo ibintu byinshi bitandukanye, harimo ibijanye n'ibikoresho byo mu rugo cyangwa se ibindi bintu byose bahacururiza.

Inzu y'ubucuruzi yubatswe neza n'iyo nzu isa neza. Bacururizagamo ibicuruzwa bitandukanye, ku buryo bifasha ba nyir'inzu gutera imbere cane.

Butike ni inzu y'ubucuruzi bayicururizagamo ibikoresho bijanye n'ikoranabuhanga, birimo amatelefoni manini n'amatelefoni matoya, gose baragacuruzaga mu nzu y'ubucuruzi.

Iki ni icyapa kiri ku nzu y'ubucuruzi. Iyi nzu y'ubucuruzi bacururizagamo ibijanye no koza amakote no kugahanagura. Ari amakote n'amashati n'inkweto byose barabihanaguraga.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi, icururizwagamo ibyo kurya birimo, imireti amasambusa n'amata n'ibindi bijanye n'ibyo.

Iki ni cyapa cyo ku iduka bacuruzaga, bacuruzaga ibintu byo kunywebwa. Bacuruzaga amaji, bagacuruza amata bagacuruza amazi, bagacuruza fanta byose byose bikorerwa mu nyange, nibyo bacuruzaga hano.

Inzu z 'ubucuruzi zimeze neza zubatswe mu mujyi bazicururizagamo imiti ivura abantu, hakaba hariho n'akabari kitwa havana.

Aha ni ku nzu nziza yubatse, bayubatse neza yanditseho parisi moteli bacururizagamo ibyo kurya, n'abakeneye kuruhuka bararyamaga nyine iyo bahaje.

Iyi ni botike bacuruza ibikoresho birimo insinga， ingorofani， amarakerete n’amatapi n’ibindi bikoresho byo mu rugo，byakwifashishwa mu mirimo ya buri munsi.

Inzu y'ubucuruzi yubatse neza bayicururizagamo ibijanye n'akabari byose. SerivisE zijanye n'akabari niho wazisanga. Iyo nzu yubatse neza kandi iri ku muhanda nago mwiza.

Inzu z'ubucuruzi bacuruzamo: ibiribwa n'ibinyobwa izo nzu zirafunze, hari umuryango umwe ufunguye kuri izo nzu.

Inzu y'ubucuruzi bayicururizagamo ibintu byinshi bitandukanye. Kuri iyi nzu haparikaga amamodoka gajanaga inyama ahabugenewe gazijanye kuzigurisha mu bandi bantu bafite amabusheri.

Icapa cy'inzu y'ubucuruzi kiri ahantu heza cane. Iyi nzu y'ubucuruzi bacururizagamo ibijanye n'akabari. Muri ako kabari bacururizagamo inzoga n'ibindi bintu byo kurya.

Igikopu k'ibitunguru barabicuruzaga muri botike. Iyi botike bacuruzaga ibitunguru bikozemo salade.

Icapa cyo ku muhanda giherereye mu mujyi, w’izo nzu z’ubucuruzi bacururizagamo ibijanye na moteri n’akabari.

Iki capa ni ic'ubucuruzi kigaragaza ko batanga serivisi zitandukanye zijanye n'iby'amahoteli n'amaresitora.

Iyi nzu y'ubucuruzi bayibetingiragamo mu mikino. Iyo habaye imikino barabetingaga kugira ngo batsinde banishimishe.

Kuri guno muhanda hariho inzu z'ubucuruzi, zikorera zikorerwagamo serivisi zo kubetesha.

Inzu z'ubucuruzi zubatswe ku muhanda. Bazicururizagamo ibintu byinshi bitandukanye. Izo nzu z'ubucuruzi, zubatswe neza mu buryo bwa kijambere.

Inzu y'ubucuruzi batangaga serivise zijanye na banki, irembo n'ibindi bintu ariko bacururizagamo n'ibindi bintu bijanye n'inkweto n'ibindi bintu n'imyenda.

Inzu y'ubucuruzi yubatswe mu buryo bwa kijambere. Bayicururizagamo ibintu byinshi bitandukanye, hari ibijanye n'ubwubatsi birimo nk'amarangi, bwo mu majerekani no mu ndobo.

Uruja n'uruza rw'abantu bajyiye guhaha mu isoko. Hari ho n'abamotari baparitse bategereje abavuye guhaha mu isoko, bakaba hari n'abandi bazanye abaje guhaha mu isoko.

Inzu z'ubucuruzi bacururizagamo ibikoresho by'ubwubatsi birimo n'amarangi yo mu madobo, amarangi yo mu bikopu basigaga aga amarangi bagasigaga ku mazu gabo.

Ahantu bacururiza ibikoresho byo mu nzu birimo matera, amatapi, imisego yo mu ntebe, imisego yo mu gitanda n'amatapi yo muri saro.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi. Ariko bacururizamo amacumbi y'abantu bashaka kujya kuharuhukira. Ni muri rojo, mu macumbi.

Iduka ry'imyenda. Bacuruzaga imyenda y'abana batoya, iy'abahungu n'iy'abakobwa. Izi myenda barazicuruzaga abandi bakiriya bakaza bakazigura.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi bayicururizagamo ibijanye n'inyama n'ibindi bintu byo mu mazi harimo nk'amafi.

Iki ni icapa cerekana ko aha hantu bakoraga ibintu bijanye no kwambika abageni imyenda z'ubukwe no kudekora aharabera ubukwe.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi ikorerwagamo ibijanye na saro zogosha abantu ku ruhande bahakoreraga ibijanye no kudoda ku cyarahani.

Inzu y'ubucuruzi iri ku umuhanda yubatse neza, hari ho umucuruzi uri gucura ibitunguru, karoti, dodo n'amakara ,hirya y'iwe hari ho ibitanda bimwegereye, n'utubati ducuruzwa ,haparitse n'imodoka.

Iyi n'inzu y’ubucuruzi, bacuruza, bacururizagamo ibikoresho by’Inyange: ibyokunwa by'Inyange, amata, amaji, amazi. Byose babicuruzaga hano.

Aga amazu ni amabotike．Bacuruzagamo intebe n'ibindi bikoresho na serivisi za banki hanze kaba hariho umukozi wa MTN．

Butike bacururizagamo ibintu byinshi bitandukanye, bacururizagamo amata, amaji, imigati n'ibindi bintu byinshi, byose bibaga muri butike ziri ku muhanda.

Iyi nzu bacururizagamo ibintu bitandukanye ni gesicahawuzi ,ushobora kuhaja ugiye kuruhuka caba se ugiye kureba ikindi kintu wafatayo, yubatswe neza iri ahantu heza.

inzu z'ubucuruzi zibaga ku muhanda bacururizagamo ibicuruzwa bitandukanye. Izo nzu z'ubucuruzi zibaga zifite amarangi gasa cyangwa se zubatsicishije amakaro bigatuma zigaragara neza.

Kurugu muhanda habagaho inzu y'ubucuruzi. Hariho abaturage baje guhaha kuri iyi nzu y'ubucuruzi ikikijwe n'ubusitani bwiza.

Hano bacuruzaga ibikoresho by'ubwubatsi birimo: amatapi, amatiyo, amatsinga, amarakelete, byose barabicuruzaga ibikoresho byo mu rugo byose bijanye n'ubwubatsi.

Inyubako yubatse neza, isa neza, isize neza. Yubakishije kositara n'uwayibonera inyuma yabona ari inzu yubatswe neza. izo kositara ziyubatse zikozwe mu mpande enye pande zose zingana. Iyo nzu iriho itsinga z'amashanyarazi.

Bacuruzaga imifuka y'umunyu. Iyo izo myunyu bazicuruzaga abandi bacuruzi, abandi bacuruzi bazaga kurangura hano, bakajya gucuruza izo myunyu.

Botike bacuruzaga amakanzu gabagore n'imyenda z'abagore n'inkweto z'abagore. Habagamo n'inkweto z'abagabo n'amashakoshi, n' imashini bakoresha bakoreshaga batanga serivisi za Banki.

Iyi ni inyubako ikorerwamo serivisi z'akabari n'igikoni, isa neza, yubatse neza, iteye amarangi y'umweru, Ku miryango icyatsi, ku gipangu ibyuma bihari na byo bisize amarangi y'icyatsi. Mo imbere mu gipangu hahinzemo ibigori.

Inzu y'ubucuruzi icururizwagamo ibintu byinshi bitandukanye hari ibijanye no kunywa; birimo amazi, ama fanta n'ibindi bintu byose bicururizwaga mu nzu y'ubucuruzi.

Iyi butike bacuruzaga amazi go kunywa. Amazi gwo kunywa bitaga jibu na novida n'amakarito gwa sana.

Icyi ni icyapa cyo ku nzu y'ubucuruzi. Bacuruzaho akabari k'inzoga. Abantu bajya kunywa izo nzoga bakishima.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi bacururizagamo amashambure. N'ibindi bintu bitandukanye birimo n'ibinyobwa.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi bacururizagamo ibijanye n'akabari n'izindi serivisi ,iyi nzu yubatswe ahantu heza hateyemo n'insina.

Inzu y'ubucuruzi bacururizagamo ibintu byinshi bitandukanye, hari inzu z'ubucuruzi wakoreragamo ibijanye no kudoda imyenda z'abageni, cyangwa se izindi myenda ng'amakositimu g'abagabo, n'izindi myenda z'abagore.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi, bacururizamo ibintu byinshi bitandukanye, ibijyanye na gazi, ibijyanye n'amazi yo kunywa n'ibindi byinshi bikoreshwa mu rugo, mu buzima bwa buri munsi.

Inzu y'ubucuruzi bacururizagamo ibijanye n'iby'ikoranabuhanga nk'amakompiyuta, amatelefoni, amayekuteri n'ibindi byinshi bijanye n'ikoranabuhanga, byose babicuruzaga muri iyi nzu y'ubucuruzi.

Botike bacuruzamo amaji, amata, amashokora n'amafanta ni imineke, muri iyi botike ibintu baba barabibitse muri firigo, byose barabicuruza.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi, icururizwagamo ibintu bitandukanye birimo:" Imiceri, amakarito g'amabiswi n'ibindi bintu bitandukanye".

Kiyosike nayo ni inzu y'ubucuruzi zibaga ku muhanda, zicururizwagamo ibicuruzwa byinshi bitandukanye. Bacururizagamo ama inite cyangwa bagacururizagamo amaterefone.

Iyi ni inzu z'ubucuruzi zubatswe mu buryo bwa kijambere. Zikaba zicururizwagamo ibintu bitandukanye.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi bacururizamo resitora . Resitora ni ahantu bacuruza ibiryo, bagacuruza n'ibindi bintu byo kunywa.

Icapa cyo ku nzu y'ubucuruzi bacururizagamo ibijanye n'iby'ubukwe, bacururizagamo imyenda z'abageni, bakanacururizamo n'ibikoresho bakoreshaga mu bukwe mu bijanye no kwambika neza abageni.

Inzu y'ubucuruzi bacururizagamo ibintu byinshi bitandukanye, bacururizagamo nk'ibikapu by'abanyeshuri, ibikoresho byo mu nzu birimo amabase, n'amasafuriya n'ibindi bikoresho bikenerwaga mu buzima bwa buri munsi byo mu rugo.

Inzu nziza y'ubucuruzi yubatse neza yubakishijwe amakaro isize amarangi y'umweru, ifite amarangi y'umutuku mu miryango no ku nzugi, ku ruhande ifiteho akazu gatoya bacururizamo amasambusa. Akazu k'amasambusa gasa umukara kanditseho amagambo asa umweru.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi icururizwagamo ibintu byinshi bitandukanye byifashishwa mu buzima bwa buri munsi.

Hano ni mu iduka, bacuruzagamo ibikoresho by'ikoranabuhanga. Bacuruzagamo amatelefone, amayekuteri n'ibindi bikoresho bijyanye n'ikoranabuhanga.

Aha bacuruzaga ibikoresho bishaje birimo: ibitanda ama meza, n'intebe ariko bari no gucuruza ibisashi byo gupfunyikamo n'ibikoresho bindi nabyo bisanzwe.

Abagize korari baririmbaga mu rusengero. Baricaye bitabiriye amateraniro go kuririmba mu rusengero. Bambaye iniforume zisa.

Abaturage bajaga kuri banki kubitsayo amafaranga cyangwa kuyabikuzayo kugira ngo babone ago bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi cyangwa bagabitseyo gazababyarire inyungu.

Aha hantu hasa neza. Hakorerwaga ibijanye n'inama ariko ni mu mahoteli gakomeye kandi meza.

Hano ni kuri moteri cangwa kuri hoteli habaga hasa neza, hajaga abakiriya bakaja kwiyakira no kuruhuka mu mitwe zabo.

Inyubako nziza ya hoteri cangwa moteri yubatswe neza ,bayubaka yubatswe ahantu heza hasa neza, hariho ubusitani bw'indabo n'uburanga bwiza bwiyo nyubako.

Iyi nyubako yubatswe neza, iri ahantu heza, kandi hatangaga n'umwuka mwiza.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi. Bacururizagamo ibijanye n'amahoteri n'ibindi bintu bitandukanye. Byose bibaga bijanye n'amahoteri.

Ibihaza byeze neza barabigurishaga mu isoko. Iyo byeze barabisaruraga bakabijana ku isoko kubigurisha, n'abandi bakaja kubigurayo.

Amashu geze neza, gahinzwe neza, ganakurikiranwe neza, bakajanye ku isoko kugira ngo abagakeneye bakagure, bagajane mu rugo baje kugakoresha bagateke bagarye.

Isoko ryiza kandi ry'ubatswe neza rya kijyambere, muri iri soko bacururizagamo ibintu byinshi bitandukanye, harimo ibijanye n'ibyo kurya, harimo ibijanye n'ibyo kwambara, byose barabicuruzaga muri rino soko.

Isoko bacuruza ibikoresho byo mu musatsi harimo shampo, amakanta. Kanta zituma abantu bagira imisatsi y'umukara kugira ngo bakomeze kugaragara neza banasa neza.

Abacuruzi bageze mu isoko batanditse ibicuruzwa byabo birimo amapavro, seleri byose bategereje abaraza bakabigura.

Urujya n'uruza rw'abaturage ,bitabiriye isoko ry'imyenda n'inkweto, abaturage bamwe bazanye imyenda ,abandi bagiye kugura imyenda muri iryo soko, bagiye kugura no kugurisha mu isoko.

Abaturage bitabiriye isoko. Baremye isoko bajya guhaha ibyo bakeneye mu rugo. N'abacuruzi bazindutse bagiye gutandika, bategereje abaguzi ngo baze bagure.

Abacuruzi bacururizaga mu isoko bacuruzaga ibikoresho byo mu nzu , birimo n'amatapi birimo n'ibindi byo mu nzu , bategereje abakiriya.

Gano ni amaji ga sarama gari mu gikarito baragacuruzaga, bakaja kugagura bakaganwa.

Abantu benshi bitabiraga umunsi gw'isoko babaga bagiye guhaha ibyo baba badafite mu ngo zabo. Hari ababaga bari gucuruza ibijanye n'amayinite n'ibindi bintu, abandi bacuruzaga imyenda ku munsi gw'isoko.

Inanasi zeze neza zanahinzwe neza zikaba zasaruwe, ziteretse mu mabase meza. N'inanasi ubwazo nazo zisa neza, mbese urebye ni inanasi nziza cyane pe!!Zisa neza ku buryo uzirebye wabona zeze neza.

Tungurusumu zicuruzwa zishishuye, ziri kumwe ni inyanya na pavuro na sereri, zirambitse ahantu bisa nkaho ari mu isoko.

Amavuta bacuruza kuka botike, ko muriritsiye, ubwoko bw'amavuta bacuruza aya mavuta afasha abantu kugira bumve bameze neza.

Isoko ryo muri karitsiye bacuruzagamo ibitoki bihiye, amatunda, imyembe, n'ibindi.

Abacuruzi bageze mu isoko. Bagiye gucuruza amashaza, urunyogwe, ibitonore, ibitoki n'ibijumba. Babijyanye ku isoko kubicuruza.

Abaturage benshi baremye isoko, bajyanye ibicuruzwa byabo mu isoko kubigurisha, kugira ngo babone amafaranga yo kwifashisha mu ngo zabo.

Rino ni isoko bacururizagamo inkweto z'ubwoko bwose z'abagabo.

Isoko ryiza rya kijambere ryubatswe neza, rifashaga abacuruzi gucuruza ibintu byiza kandi bifite isuku. Isoko bacururizagamo ibintu byinshi bitandukanye.

Bacuruzaga ibintu bitandukanye mu isoko, birimo n'ibi byitwa gombo zifashishwa mu kunywa amazi gagasukura mu mubiri zacu.

Abacuruzi bajanye ibicuruzwa byabo ku isoko, birimo kokombure, birimo n'insenda na tungurusumu, babijanye kubigurisha.

Mu isoko bacururizagamo ibintu byinshi bitandukanye. Bacururizagamo ibijanye n'imisego, ibijananye n'amashuka go kuraramo, n'ibindi byinshi byose babicururizaga mu isoko.

Aha ni mu bibuti by'inkoko. Bafungiranaga mo inkoko kugira ngo zidasohoka bazijanye kuzigurisha ku isoko.

Abacuruzi bageze mu isoko. Bagiye gucuruza ibicuruzwa byabo harimo inyanya, ibitunguru, amavuta yo guteka, pavuro, n'ibindi birungo bikoreshwa mu gikoni barabitekaga byose kugira ngo ibyo batetse biryohe.

Mu isoko bacururizagamo ibintu byinshi bitandukanye. Bacururizagamo ibijanye n'ibyo kurya birimo amafu g'igikoma, amafu go gutekamo imitsima n'amavuta. N'ibindi bintu byose barabicuruzaga bijanye n'ibyo kurya.

Aha bahacururiza ibikoresho by'ikoranabuhanga. Birimo amaterefoni n'ibindi bigendana na byo. Ni inzu y'ubuuruzi bacururizamo ibyo bikoresho.

Isoko ryubatswe neza rya kijambere bacururizagamo ibintu byinshi bitandukanye. Bacururizagamo imyenda, bacururizagamo inkweto, bacururizagamo amatelefone, n'ibindi bintu byinshi byose babicuruzaga mu isoko.